Hano ni abasirikari, aho bari bagiye guhabwa amapeti. Ni abarinda igihugu ndetse kandi bakakibungabunga.

Igisabo kidufasha no mu kugaba icyo bita ..... Kiba mu kigo cy'umuco, ariko kidufasha mu gucunda amata.

Isafuriya ishyuhije amazi, aho umuntu agiye guteka ibishyimbo. Iyo rero mubona hirya ni intama. Intama idufasha mu kubona inyama, ndetse no kugenda umuntu abona ifumbire.

Ababyinnyi aho bari gususurutsa abantu, iri kandi ni rimwe mu itorero ry'igihugu aho basusurutsa abantu bitabiriye ibirori.

Ni ababyinnyi nyarwanda aho bari kubyinira ku ngoro y'umuco w'igihugu, ibi rero bukurura ibyishimo bikaba byakurira n'abakerarugendo baje kureba igihugu cyacu, bikaba byazamura iterambere ry'igihugu.

Amasahani ya kera rero aya bayitaga imbehe aho bayariragamo nk'isosi ndetse n'ibindi byinshi nk'ibiryo bya kinyarwanda amasahane yitwa imbehe yaradufashaga cyane.

Iri ni isoko, isoko ribamo babikamo ibiribwa, ndetse urabona hasi harimo parikingi n'ibindi byinshi.

Aha ni ku kiliziya ku i pironi aho abantu bagiye gusenga basenga Imana yacu ndetse banasabana muri rusange.

Uru ni urusengero rukaba urusengero. Nubwo urubona gutya ntabwo rwuzuye ntibararufungura bitewe n'uko rutuzuye, ariko hariho gahunda yo kurufungura bitewe no kugenda bavugurura.

Inama y'abaturage aho abaturage barimo barasabana, barebera hamwe ibyafasha igihugu n'ibyateza igihugu akamaro. Ibi rero bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera murakoze.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi. Akenshi uzisanga mu mujyi wa Kigali kuko ariho zikunze gukorera. Izi zitwara abagenzi benshi, izi zidufasha mu kwinjiza amafaranga.

Igikamyo gitwara umucanga abenshi bacyita igikamyoneti, gitwara umusenyi wa giciye. Iki kandi gifasha mu kuzana amafaranga.

Gare ya nyabugogo rero ni imwe mu zigize gare z'umujyi wa Kigali， urabona ko haparitse imodoka nyinshi，ibi rero bikaba abagenzi bagenda batega bajya mu ntara， ndetse n'ahandi hatandukanye， ibi bikaba byadufasha mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu.

Abantu bari mu bwato ndetse bari mu mugezi. Aho bari kugenda bagiye mu bikorwa bitandukanye byo kuroba amafi ndetse n'amaheri.

Abantu bari mu isoko ahatandukanye. Aha bari kugura ibicuruzwa, ariko nk’uko mubibona, aba ni abanyonzi bishyize hamwe bari gutwarira abantu ibicuruzwa.

Umunyonzi atwaye inkwi ku igare , aho agiye kuzicanisha ndetse azitekesha ibiryo bitandukanye. Iyi mubona ni kaburimbo , aha ni mu bice by'Amajyaruguru ahegereye umugi wa Musanze.

Bisi yakera cyatwaraga abantu akenshi na kenshi cyakoreraga mu ntara .Aya makoperative ntago hari hakabayeho ama bisi menshi.

Nk'uko mubibona iyi ni imodoka nini. Idufasha mu gutwara abagenzi rusange, kandi ikagira uruhare runini mu iterambere ry'Igihugu kubera ko imisoro irinjira ndetse n'ibindi byinshi.

Aha ni ahantu Leta yubatse, bita muri Beka Arena, aho abantu bagenda, bagiye kuruhukira, bagiye no kureba abahanzi ndetse n’abandi bantu mu bashyitsi bakomeye batumiwe.

Gukina umupira rero bidufasha mu bijyanye no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, bikaba byatuma umuntu yirinda indwara n'ibindi byinshi.

Basiketi idufasha mu mikurire ndetse ikadufasha nanone mu bijyanye no kwagura imyororokere no kuba byatumye umurwayi.

Gukina umupira bidufasha kuba amaraso yatembera, kuba byavura imitsi, kuba byarinda indwara ndetse no kuba umuntu yagira ubuzima bwiza, ni nayo mpamvu gukina Ka ruhago ari byiza cyane.